Ubuhinzi bw'umwuga, bukozwe neza, aho abahinzi babiri, bari gutera umuti mu bihingwa byabo kugira ngo birinde ko hajyamo indwara zishobora kwangiza umusaruro, bityo bikabangamira iterambere ryabo.

Umugabo uri mu murima uteyemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa, akaba afite ipombo yabugenewe ari kugenda abyuhira kugira ngo bizabashe kwera neza maze bimuhe umusaruro ufatika nk'uko abyifuza.

Umuhinzi w'umwuga uri gukoresha igikoresho kifashishwa mu gutera imiti mu myaka kugira ngo agire umusaruro mwiza, aziteze imbere abone ibyo kurya bihagije, asagurire n'amasoko kugira ngo n'abandi bose babone ibyo kurya.

Ububiko bwiza bwateguwe bufite ibara ry'icyatsi bubitsemo uducupa dutandukanye tw'imiti ishobora kwifashishwa mu buvuzi bw'amatungo cyangwa se mu buhinzi n'ubworozi kugira ngo umusaruro uboneke ushimishije.

Umuhinzi w'umwuga wambaye ku buryo bukwiriye, bimurinda kugerwaho n'umuti ari gutera mu bigori, umuti rero utuma ibigori bikura neza, nta ndwara birwaye bikagira umusaruro mwinshi kandi uhagije.

Ubuhinzi bugezweho bwo guhinga umuceri, aho abahinzi babiri bari mu murima, bari gutera imiti itandukanye, ifasha umuceri gukura neza, bigatuma bazabona umusaruro uhagije kandi uzaba ushimishije kugira ngo babone amafaranga, azabafasha gukemura ibibazo bitandukanye.

Umurima uteyemo umuceri aho hari kunyuramo umugabo, uwo mugabo rero akaba yambaye ipantaro yazinze n'agashati k'amaboko magufi ari kugenda atera umuti uwo muceri we.

Umuhinzi mworozi wabigize umwuga ufite igikoresho kiri kumufasha mu gutera umuti ku ikawa, bishobora gutuma yiteza imbere agateza imbere n'umuryango we ndetse n'igihugu nacyo kigatera imbere, biciye mu bikorwa bye.

Umuntu ufashe mu ntoki igikoresho cyifashishwa mu burobyi bw'amafi, ashobora kongera indyo yuzuye ku muryango ndetse agatanga n'amafaranga ku muntu ubikora, bikamuteza imbere ndetse bigateza n'Igihugu imbere muri rusange.

Umugabo uhagaze iruhande rw'icyuzi, afashe indobo mu ntoki irimo ibyo kurya, ari kugaburira amafi mu mazi kugira ngo agire umusaruro mwinshi, abashe kwiteza imbere, abone amafaranga menshi ndetse abone n'umusaruro mwinshi.

Igice kinini kihariye cyatunganyirijwe kororerwamo amafi bikorewe mu byuzi, umworozi ari kugaburira amafi kugira ngo atange umusaruro mwinshi, yiteza imbere ndetse avemo ibyo kurya binyuranye ku baturage.

Inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye, ikaba inasakaje amabati. Iri hafi neza y'ibyuzi bikorerwamo ubworozi bw'amafi, ashobora gutanga umusaruro, bigatuma abaturage bagira imirire myiza, kubera ko amafi akungahaye ku ntungamubiri.

Ubworozi bw'amafi bukorerwa mu byuzi bitandukanye bishobora gutuma umrozi yiteza imbere ndetse agateza imbere n'umuryango we kuko habonekamo ibyo kurya bitandukanye ndetse bikaba bishobora gufasha no mu bucuruzi.

Agabo batandukanye bahagaze ku nkombe z'icyuzi, gishobora gukoreshwa mu bworozi bw'amafi, ashobora gutanga umusaruro mwinshi ku mworozi, akabasha kwiteza imbere ndetse bigatanga n'ibyo kurya ku baturage benshi batandukanye.

Umurobyi afite mu ntoki isambaza yakuye muri zimwe mu ziri mu ndobo y'ubururu, aho ashobora kuzikoresha kugira ngo yiteze imbere ndetse ateze imbere umuryango we haboneke n'ibyokurya byuzuye.

Icyuzi kiri ahantu aho hepfo yacyo hari ikindi bikaba byoroherwamo amafi, aho abantu basigaye borora amafi barabigize umwuga bakayitaho uko bikwiriye hanyuma na yo akazabateza imbere mu gihe kizaza.

Umurobyi wambaye umwambaro w'umutuku, afite amafi menshi mu ntoki, bigaragara ko inyuma ye hari amazi magari arobwamo mu gishanga. Bikaba bishobora gutanga umusaruro mwiza ndetse bikongera n'imirire ku bantu batandukanye.

Abarobyi benshi batandukanye bahuriye ahantu hari amazi magari kugira ngo bakurikirane uburobyi babone umusaruro uhagije biteza imbere bateze imbere n'imiryango yabo ndetse babone n'ibyokurya bihagije.

Ubuhinzi n'ubworozi ni bimwe mu bikorwa bigira uruhare mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage cyanecyane ubwrozi bw'amafi nabwo bugira uruhare mu kugira ngo indyo yuzuye iboneke mu baturage bashobore gukora bafite ubuzima buzira umuze.

Ubworozi bw'amafi buri mu bikorwa by'ingenzi bushobora guteza imbere umuturage bikamwinjiriza amafaranga menshi ndetse hakaboneka n'ibyo kurya bishobora gutunga abantu benshi batandukanye bikabarinda imirire mibi ishobora kuboneka.

Ubworozi bwo mu mazi bukozwe neza, aho ku ruhande hariho indabo nziza, amafi na yo mu mazi akaba abasha gukura neza, agatanga umusaruro mwinshi ku borozi bayo ndetse no ku bacuruzi. Bikinjiza amafaranga menshi mu miryango.

Ubworozi bw'amafi ni kimwe mu bikorwa by'ingenzi bifasha aborozi kwiteza imbere kuko havamo amafaranga ahagije, hakavamo ibyo kurya bihagije hanyuma umuhinzi agatera imbere biciye muri ubwo buryo.

Umurima uhinzemo ikawa, hakaba harimo umugore uri guseka ari kugenda asoroma ikawa bigaragara ko yishimiye uyu musaruro w'ikawa yagiye kubona muri uyu mwanya.

Ahantu heza mu misozi miremire yatunganyijwe, ikabasha guhingwaho ibihingwa bitandukanye, cyane cyane icyayi gifatwa nk'igihingwa ngengabukungu, gishobora gufasha umuturage wagihinze kwiteza imbere, agateza imbere n'umuryango we.

Igihingwa k'ikawa kimwe mu bihingwa ngengabukungu kiri mu bifasha mu guteza imbere abaturage benshi batandukanye bahinga ikawa, kugira ngo igihugu gitere imbere bisaba ko abahinzi b'ikawa bayikurikirana neza bakayitaho igatanga umusaruro ushimishije.

Igihingwa cy'umuceri gihinze mu gishanga kimwe mu bihingwa ngengabukungu gishobora gufasha umuturage kwiteza imbere mu gihe yagize umusaruro mwiza ndetse akabona n'amafunguro ahagije, bigatuma yiteza imbere n'umuryango we.

Igihingwa cy'icyayi kimwe mu bihingwa ngengabukungu, gifasha abaturage mu kwiteza imbere, aho abagihinze bakagikurikirana neza batera imbere, bigatuma aho batuye bose batera imbere ndetse n'igihugu kigatera imbere kubera ubucuruzi bw'icyayi.

Abahinzi batandukanye bari mu gikorwa cyo gusarura icyayi, gifatwa nk'igihingwa ngengabukungu, gishobora gufasha umuturage kwiteza imbere, binyuze mu mafaranga ahabwa kubera ubuhinzi aba yakoze.

Abaturage batandukanye bari mu gikorwa cyo gusarura icyayi, kimwe mu bihingwa ngengabukungu gishobora gutuma umuturage atera imbere kubera ko yakoze ubuhinzi bwacyo, bigatuma n'igihugu gitera imbere ndetse kikamenyekana ku ruhando mpuzamahanga.

Abahinzi benshi batandukanye bari mu gikorwa cyo gusarura icyayi, igihingwa gifatwa nkaho ari ngengabukungu bigatuma biteza imbere kubera umusaruro mwinshi babonye n'Igihugu kigatera imbere bitewe n'ubucuruzi bw'icyayi.

Ubuhinzi bw'ikawa bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe umuntu wese wahinze ikawa akayitaho ibasha kumuteza imbere maze akabona mu umusaruro akajya kuwugurisha.

Ahantu hakorerwa ubuhinzi bw'icyayi harimo umuhinzi bigaragara ko yishimye cyane kubera ko yizeye neza umusaruro we ndetse akaba afite icyizere ko azatera imbere binyuze mu buhinzi akora.

Umuhinzi uri guhinga mu gishanga ibihingwa ngengabukungu nk'umuceri bizafasha kwiteza imbere ndetse no kubona umusaruro uhagije bikamufasha kubona ibyo kurya agatunga urugo rwe ndetse n'abandi bakabona ibyo kurya biciye mu buhinzi bwe.

Abahinzi benshi bari mu gikorwa cyo kubaga umuceri, bakuramo ibindi bimera bishobora gutuma utera neza kugira ngo bazabone umusaruro uhagije bashobore kwiteza imbere ndetse bateze imbere umuryango wabo, banabona ibyo kurya bihagije.

Umuhinzi wikoreye umusaruro we w'ikawa. Kimwe mu bihingwa ngengabukungu gishobora gutuma umuhinzi yiteza imbere akagera kuri byinshi, binyuze mu buhinzi akora kuko cyoherezwa no hanze y'igihugu bikinjiza amafaranga ahagije.

Igihingwa cy'ikawa kimwe mu bihingwa ngengabukungu, gishobora gufasha umuturage kwiteza imbere akava mu bukene, agateza imbere umuryango we, agateza imbere n'igihugu muri rusange bigatuma n'abamukomokaho bose bagira ubuzima bwiza na we ubwe akagira ubuzima bwiza.

Umutegarugori uri mu bikorwa byo gukurikirana ubuhinzi bw'umuceri, bushobora kumufasha mu gutera imbere, bukamwinjiriza amafaranga menshi, umuryango we n'Igihugu muri rusange bigatera imbere ndetse akabona amafunguro ahagije, yabasha kugaburira umuryango we.

Abahinzi benshi batandukanye bari mu gikorwa cyo guhinga umuceri mu gishanga kirimo amazi bityo ukazera neza bakabona umusaruro uhagije bakabasha kwiteza imbere bagateza imbere n'imiryango yabo ndetse n'Igihugu muri rusange.

Ibihingwa ngengabukungu byinshi bigiye bitandukanye, harimo ikawa, icyayi, bishobora gufasha abaturage benshi batandukanye, kwiteza imbere ,bityo bigatuma n'igihugu ubwacyo gitera imbere. Binyuze mu bucuruzi bikorwamo.

Abategarugori bicaye bari mu gikorwa cyo gutunganya ibihingwa ngengabukungu bishobora gutuma biteza imbere n'imiryango yabo ndetse bagateza imbere n'Igihugu muri rusange bitewe n'iki gihingwa igihe cyaba kigurishijwe hanze y'Igihugu.

Umuhinzi wabigize umwuga, ari gukurikirana ubuhinzi bwe bw'ikawa kugira ngo azabashe kubona umusaruro uhagije, dore ko kawa ari kimwe mu bihingwa ngengabukungu, aho ishobora kumufasha kwiteza imbere, agateza imbere n'umuryango we n'igihugu muri rusange.

Ikawa ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu gishobora kugira uruhare runini mu iterambere ry'umuturage iyo yarihinze neza akaryitaho, binatuma kandi igihugu gitera imbere binyuze mu kohereza hanze ibikomoka kuri ikawa.

Ahantu heza hateguwe kugira ngo hakorerwe ibikorwa byo gutubura imbuto nyinshi zitandukanye bityo abahinzi bashobore guhinga imbuto nziza zabugenewe ziteguwe kugira ngo zishobore gukora umusaruro uhagije.

Igihingwa cy'icyayi kimwe mu bihingwa ngengabukungu byera mu Rwanda, gifitiye uruhare runini abaturage bagihinga bigatuma biteza imbere bagateza imbere n'imiryango yabo ndetse bagateza imbere n'Igihugu muri rusange binyuze mu bikorwa remezo ndetse n'umusaruro gitanga.

Ikibaya gitunganyije neza kikaba gihinzemo umuceri bigaragara ko harimo amazi ahagije atuma umuceri ukura neza kugira ngo hazaboneke umusaruro uhagije, bigatanga amafaranga menshi ku bahinzi ndetse bakabasha no kugira ubukungu bufatika.

Ububiko bwiza bwateguwe aho habitsemo amacupa n'ibikarito bitandukanye, byifashishwa mu kubika imiti y'amatungo kugira ngo amatungo atange umusaruro mwiza ushimishije.

Ububiko buhagije, burimo amacupa menshi y'ibara ry'umweru, abitsemo imiti, yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo kugira ngo ashobore kubaho neza ndetse atange umusaruro umworozi akeneye kugira ngo yiteze imbere.

Ububiko burimo amacupa afite ibara ry'umweru, yifashishwa mu kubika imiti y'amatungo, na yo yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo kugira ngo yitabweho, hatange umusaruro ushimishije, byongere iterambere ku mworozi.

Amacupa menshi yifashishwa mu kubika imiti y'amatungo ikoreshwa mu buvuzi ndetse no mu kongera umusaruro ukomoka ku matungo kugira ngo umworozi yiteze imbere ndetse ateze imbere n'umuryango we muri rusange.

Icyumba cyihariye kigenewe ububiko bw'imiti y'amatungo, yifashishwa mu buvuzi kugira ngo umworozi abashe kubona umusaruro ushimishije, yiteze imbere ndetse ateze imbere n'urugo rwe babone n'indyo yuzuye.

Agakombe keza cyane kari mu mabara y'ubururu aho ako gakumbi kaba karimo umuti wifashishwa bari kuvura amatungo igihe cyose aba yarwaye kugira ngo abe yakira hanyuma amererwe neza.

Ububiko bugaragaramo uducupa twinshi turimo imiti y'amatungo, yifashishwa mu buvuzi ndetse no gukurikirana imigendekere myiza y'ubu bworozi kugira ngo uwabukoze agere ku iterambere risesuye, ateze imbere n'igihugu cye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako irimo ahantu hagiye hatandukanye hacururizwa imiti y'amatungo, aho iyi miti ari ingenzi cyane kuko ivura amatungo indwara zigiye zitandukanye maze agakura neza nta burwayi.

Icupa rinini ry'umweru rifite umufuniko ufite ibara ry'icyatsi riteretse ku meza, asize irangi ry'umweru, bigaragara ko ibitse ahantu byose habikwa imiti ishobora kwifashishwa mu buhinzi n'ubworozi bigateza imbere umworozi muri rusange ndetse bigateza n'igihugu imbere.

Udukarito tugiye dutandukanye, turimo imiti myinshi yifashishwa mu kuvura amatungo, aho iyi miti ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese woroye amatungo yaza kuyishaka akayavura.

Ububiko bwiza burimo imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo kugira ngo haboneke umusaruro ushimishije bityo umworozi atere imbere ndetse ateze imbere umuryango we n'igihugu muri rusange.

Ububiko bw'ibikoresho bitandukanye, harimo imifuniko n'amacupa, amacupa afite ibara ry'umweru ndetse n'imifuniko nayo ikaba ifite ibara ry'umutuku, ibi byose bishobora kwifashishwa mu kubika ibikoresho bitandukanye, harimo imiti ishobora kwifashishwa mu buvuzi, bigatanga umusaruro mwiza ushimishije.

Akabati gatetsemo utubido tugiye dutandukanye, aho utu tubeto ni twiza cyane ku buryo umuntu wese ufite amatungo akarwara yaza kugura umuti uba uri muri utu tuvido kuko urakiza.

Ububiko bwiza bwateguwe bubitsemo amacupa atandukanye arimo imiti y'amatungo yifashishwa mu buvuzi kugira ngo amatungo abashe kubaho neza akure atange umusaruro ushimishije.

Abahinzi batandukanye bahuriye ahantu hamwe aho bari kwita ku bihingwa bihinze mu butaka kugira ngo bizatange umusaruro uhagije babashe gutera imbere ndetse bateze imbere n'imiryango yabo tutibagiwe n'Igihugu muri rusange.

Ubuhinzi bwa watermelon na bwo ni ingenzi cyane, aho uyu mugore ateruye watermelon amaze gusarura yishimye cyane ari kumwenyura, bigaragara ko bimushimishije kuba abonye uyu musaruro.

Umuhinzi w'umutegarugori uri gukurikirana ubuhinzi bw'imboga nabikomeza neza akazikurikirana bizatanga umusaruro ndetse bimufashe kwiteza imbere no guteza imbere umuryango we ndetse abone n'ibyo kurya bihagije ku muryango we.

Hariho amoko a giye atandukanye y'ibihingwa bakunda guhinga muri pipinyeri aho umuntu wese wahinze muri pipinyeri bimuteza imbere cyane kubera ko haba harimo ibihingwa bigiye bitandukanye by'imbuto cyane cyane nka avoka ndetse n'amatunda n'ibinyomoro.

Igihingwa cy'umuceri, kimwe mu bihingwa ngengabukungu gifasha umuhinzi wagihinze kwiteza imbere, umuryango we ukabona ibyo kurya ndetse bakabona ubuzima bwiza buva mu bikorwa byabo bya buri munsi, Igihugu kigatera imbere ndetse bakunguka cyane.

Umworozi wa kijyambere waroye inka mu biraro ari kuzigaburira kugira ngo zirusheho gutanga umusaruro mwiza, abe yabona amata ahagije cyangwa se atange inyama mu gihe byakenerwa. Yiteza imbere ndetse ateza imbere n'umuryango we.

Umugabo n'umugore bari mu murima aho bari guhinga amoko menshi a giye atandukanye y'imbuto, izi mbuto rero ni ingirakamaro cyane ni byiza ko umwana wawe na we wamujyana akajya guhinga ibihingwa bigiye bitandukanye kugira ngo urebe ko na we yakwiteza imbere.

Ubuhinzi bw'umuceri ni bumwe mu buhinzi bukorerwa mu bishanga, aho abahinzi batandukanye, bihuza bagahinga igihingwa kimwe, kizabasha gutanga umusaruro kubera ko umuceri uhingwa mu bishanga, ukenera amazi ahagije.

Igihingwa cy'ibigori gihinzwe ku buso buhuje, gitanga umusaruro mwinshi aho umuhinzi cyangwa se abahinzi bihuje, bashobora kugira umusaruro bakunguka, ku buryo biteza imbere bagateza imbere n'imiryango yabo.

Ishyo ry'inka rigaragaramo inka nyinshi zitandukanye, bigaragaza ko umworozi yagize umusaruro mwinshi uturuka ku matungo ndetse bishobora gutanga amata menshi ndetse n'inyama, bikamufasha kwiteza imbere mu mirimo ye ya buri munsi.

Abahinzi b'umuceri ni bamwe mu bantu bagira uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu kuko ubuhinzi bw'umuceri bakora butuma abaturage benshi babona ibyo kurya, bakagira imbaraga mu byo bakora ndetse bakiteza imbere n'igihugu kigatera imbere muri rusange.

Abahinzi babiri umugore n'umugabo bafite amasuka ku rutugu bigaragara ko bishimiye ibikorwa byabo, bikazabafasha gukomeza kwiteza imbere kugira ngo bateze imbere n'umuryango wabo ndetse n'Igihugu muri rusange bagaburira abantu ibyo ku kurya bihagije.

Umuhinzi mworozi wambaye umupira w'ubururu ndetse n'agapfukamuwa k'ubururu, afite urubuto mu ntoki, akaba ahagaze ahantu, hagenewe gutuburirwa ingemwe, byifashishwa mu kongera umusaruro w'ubuhinzi muri rusange.

Umurima uri ahantu mu gishanga uhinzemo umuceri aho uyu muceri wateye imbere cyane ku buryo umuntu wese uwuhinze akawitaho ubasha kumuteza imbere maze akabona amafaranga ahagije.

Uruganda runini rwateguwe kugira ngo rukurikirane umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi ni kimwe mu bikorwa remezo bishobora kwifashishwa kugira ngo abantu benshi batere imbere byaba mu kazi gakorerwamo ndetse no mu bucuruzi bushobora gukorerwamo.

Abahinzi benshi batandukanye bihurije ahantu hamwe, aho bari gufata imbuto cyangwa se ingemwe zateguwe kugira ngo zongere umusaruro, ibihingwa bitandukanye biba bishobora gutuburwa bigatanga umusaruro mwinshi.

lmyumbati myiza iki mito ,ishobora gukorerwa ubuhinzi neza bityo bigatanga umusaruro, aho umuhinzi wabikoze ashobora kubona amafaranga, akabona ibyo kurya agatera imbere, ndetse akabona n'imbaraga zo gukora n'ibindi.

Igihingwa cy'ibigori byiza bishishe bihinze neza mu butaka bufite ifumbire, bitanga umusaruro ku buryo umuhinzi atera imbere, agateza imbere umuryango we ndetse n'Igihugu kikagira iterambere binyuze muri abo bahinzi.

Ibihingwa bigiye bitandukanye, aho haba harimo intoryi ndetse n'ibindi, ibi rero ni ingenzi cyane kuko umuntu wabihinze bibasha kumuteza imbere maze akabona amafaranga agasezera ku bukene.

lbyanya bigari bigaragaramo ibiti by'ubwoko butandukanye, bishobora kuba ibice bimwe bishobora kwifashishwa mu buhinzi, kugira ngo hakorwe ubuhinzi buhurijeho imyaka ,hanyuma abahinzi batere imbere.

Ububiko bwiza bwateguwe burimo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye bishobora kwifashishwa kugira ngo uwabiriye agire imbaraga zihagije ashobore gukora yiteza imbere, ateza imbere umuryango we, ndetse ateze imbere n'igihugu.

Ibihingwa byinshi by'ubwoko butandukanye birimo imbuto ziribwa zishobora kwifashishwa mu kongera indyo yuzuye ku bantu batandukanye abana ndetse n'abantu bakuru, bigatuma bagira ubuzima bwiza buzira indwara.

Ipapayi ni kimwe mu bihingwa by'ingirakamaro cyane kuko umuntu wese ubihinze akabyitaho bibasha kumuteza imbere maze akabona amafaranga akaba yakirigita ifaranga mu gihe gito cyane akaba umukungu.

Inzu nini y'ubucuruzi, ifite ububiko bw'ibicuruzwa bitandukanye, ishobora kwifashishwa mu kongera indyo yuzuye ndetse no kuryoshya ibyo kurya, bigatuma ababiriya bishima, bakagira ubuzima bwiza, bakabasha kwiteza imbere, bakanagira imbaraga zo gukora imirimo itandukanye.

Igihingwa cy'imyumbati gihinze ahantu hatunganyije, gishobora gutanga umusaruro mwiza umuhinzi akabona amafaranga menshi agatera imbere, agateza imbere umuryango we, agateza imbere n'igihugu muri rusange ndetse akabona n'ibyorya bitunga umuryango we.

Umurima udatunganyije neza bigaragara ko harimo ibishyimbo n'ibindi bihingwa bitandukanye nk'imyumbati bishobora gutunganywa bigakoreshwa mu guteza imbere umuturage igihe yaba yabyitayeho neza cyane.

Ibihingwa byinshi bitandukanye bihingwa mu bishanga harimo nk'umuceri ni kimwe mu bihingwa bitanga ibyo kurya byinshi ku baturage bigatuma abaturage bagira imbaraga mu byo bakora bakabona n'amafaranga ahagije yo kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo.

Umurima w'ibigori uhinzemo ibigori bibiri aho ibi bigori ari ingirakamaro ku buryo umuntu wese ubihinze akabyitaho bibasha kumuteza imbere maze agakirigita ifaranga akaba umukungu.

Ahantu hagenewe ubuhinzi hanini, hateguwe gukorerwamo ibikorwa by'ubuhinzi, aho hashobora guhingwa imbuto nyinshi zitandukanye kugira ngo hatange umusaruro, abahinzi biteza imbere babone ibyo kurya bihagije.

Urwuri runini rwisanzuye rurimo inka ziri kurisha zitandukanye bigaragara ko ubwatsi burimo buhagije zizashobora gutanga umusaruro ushimishije, umuhinzi agatera imbere ndetse yabonye n'ibyo kunywa birimo amata cyangwa se inyama.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iri ahantu mu cyaro. Ruguru yayo hakaba hari isambu ihinzemo imyumbati ndetse iyo myumbati ikaba ari myiza cyane, ku buryo umuntu wese ushaka guhinga imyumbati yabikora kinyamwuga. Hanyuma ikazamuteza imbere.

Ibihingwa bitandukanye harimo amapapayi, imiyembe ndetse n'ibindi aho bifasha umuhinzi kubona umusaruro utubutse ajyana ku isoko akabasha kubona amafaranga amutunga we n'umuryango we akiteza imbere ndetse agateza imbere n'igihugu.

Imboga rwatsi ni kimwe mu biribwa by'ingenzi bikenewe kugira ngo indyo ibe yuzuye, aho bituma umuntu agira ubuzima bwiza, akagira imbaraga zo gukora, akiteza imbere, agateza imbere umuryango we ndetse agateza imbere n'igihugu.

Ahantu hanini hakorerwa ubuhinzi bw'igihingwa kimwe, cyane cyane ibigori, bigatanga umusaruro mwinshi, abahinzi bose bakabona amafaranga, ashobora kubafasha mu kwiteza, guteza imbere imiryango yabo ndetse no guteza imbere igihugu.

Ubuhinzi bw'ibikomoka ku mboga nk'intoryi, ni bumwe mu bukorwa ahantu henshi ndetse bikaba bifasha kugira ngo haboneke indyo yuzuye, aho ababiriye baba bashobora kugira imbaraga zihagije kugira ngo bakore imirimo itandukanye.

Ikigori kiza cyakuze neza ku buryo bwa kijyambere cyafumbiwe keze, gifite amababi y'icyatsi ndetse kitumye, aho gifasha umuhinzi kubona umusaruro ajyana ku isoko akabona amafaranga atunga umuryango we ndetse na we ubwe.

Ubuhinzi bwiza bukorerwa mu bishanga harimo nk'ubuhinzi bw'umuceri aho ababukora bose bakabukora neza babasha gutera imbere bakabona ibyo kurya bihagije mu miryango yabo bigatera imbere ndetse bagateza imbere n'igihugu muri rusange.

Igihingwa cy'umyummbati, gihinze ahantu hatunganyije, kikaba gishobora gutanga umusaruro, umuhinzi akabona ibyo kurya byinshi bihagije, bitunga umuryango we, agasagurira n'amasoko akiteza imbere, n'igihugu nacyo kigatera imbere, biciye mu buhinzi bwakozwe n'uwo muhinzi.

Igihingwa cya avoka bigaragara ko kitaweho neza nigikura kizatanga umusaruro bityo bitume umuhinzi atera imbere binyuze mu bucuruzi yakora ndetse abone n'ibyo kurya bihagije bitewe n'uko azabona umusaruro wa avoka.

Igiti kinini kiri mu bwoko bwa voka, gifite amababi menshi afite ibara ry'icyatsi, ni kimwe mu bishobora gutanga umusaruro mwinshi ushimishije, bigatuma umuhinzi ashobora kugira amafaranga menshi avuye muri ubwo buhinzi bw'igiti cya voka.

Umuhinzi uri mu gikorwa cyo gutunganya ahantu azahinga kugira ngo azatange umusaruro mwiza, azabashe kwiteza imbere ateze imbere n'umuryango we ndetse abone umusaruro uhagije ashobore gutunga umuryango we n'igihugu muri rusange.

Ibihingwa byinshi bitandukanye birimo urutoki ni bimwe mu bigira uruhare mu iterambere ry'umuturage, aho umuhinzi wabukoze abasha kubona amafaranga ndetse akabona n'ibyo kurya ashobora guha n'abaturanyi cyangwa se amasoko.

Imbuto nyinshi zitandukanye ziba zishobora gufasha mu igogorwa ndetse no mu kongera intungamubiri, bityo imbuto z'amaronji na zo ni zimwe mu zishobora gutuma indyo yuzura, uwabiriye akaba ashobora kugira imbaraga mu mubiri we.

Igihingwa cyiza cy'ikigori gihinze ahantu mu gishanga bigaragara ko cyabonye ibigitunga bihagije bituma gikora neza kandi gitanga umusaruro mwiza bizatuma umuhinzi yiteza imbere asagurira n'amasoko.

Ibyanya by'ubuhinzi birenzweho ibigori mu buryo bwo guhuza ubutaka, aho ibi bigori bishobora kwifashishwa mu kugaburira abaturage benshi, bikagabanya inzara ndetse bigatuma n'abahinzi biteza imbere n'igihugu kigatera imbere muri rusange.

Abantu benshi batandukanye, bari kuzamuka umusozi uteyeho ibiti binyuranye, bigira uruhare mu kuyungurura umwuka wo mu kirere, bikagabanya ubushyuhe bukabije ku isi, ibiti rero bishobora no gutanga undi mumaro nko gutanga inkwi no kuyikoresha mu bwubatsi.

Ibyanya byiza bitunganyijwe birimo ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse hakaba hari n'ikiyaga gishobora gukorerwamo ubworozi bw'amatungo, aho amafi yakororwamo yashoboza kubona ibyo kurya ndetse n'ubukungu bukiyongera.

Ishyamba ryiza cyane kandi rinini ririmo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingenzi kandi bikaba bigize ibidukikije dufite hano mu Rwanda kuko bizana umwuka mwiza duhumeka ndetse bikabasha no kudukururira imvura.

Ibiti by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu mirimo myinshi ikorwa buri munsi, aho bishobora kwifashishwa nk'inkwi, mu ngo zimwe na zimwe ndetse bikavamo ibikoresho byifashishwa mu rugo nanone ndetse bikifashishwa no mu kubaka.

Mu misozi miremire haba hakwiye gushyirwa amashyamba, kugira ngo hirindwe ingaruka zishobora guterwa n'isuri ,harimo; impanuka ,urupfu, cyangwa se ibindi ,nko kwangiza imyaka y'abaturage.

Ibiti binini byinshi bitandukanye, bigaragara ko bishobora gukoreshwa mu mirimo itandukanye, harimo ubwubatsi, gutanga inkwi zo guteka ndetse no gukora ibikoresho bitandukanye, bishobora kwifashishwa mu nzu.

Ibikorwa binyuranye byo gutera ibiti ni bimwe mu bikorwa by'ingenzi aho bituma ibiti byatewe bishobora gukoreshwa mu mirimo itandukanye harimo ubwubatsi ndetse nko kubona imbaraga zinyuranye nk'inkwi n'ibindi bikoresho bigiye binyuranye.

Ikiyaga cyiza cyane aho hejuru hari umusozi uhinzeho ibiti byinshi cyane biri mu ishyamba, aho ibi biti ari ingirakamaro kubera ko biduha umwuka mwiza duhumeka ndetse bikaba byadukururira n'imvura.

Ubusitani bwiza bugaragara, bufite indabo zitandukanye, hakaba harimo ndetse n'ubwoko butandukanye bw'ibiti, bifasha ababugezemo kumva bamerewe neza ndetse bakagubwa neza mu kanya bari aho hantu.

Umugabo uhagaze yambaye ishati y'amaboko maremare irimo amabara y'umutuku, yambaye isaha ku kuboko, yambaye n'agapfukamunwa ari gutanga imbwirwaruhame ku buhinzi anagira inama abahinzi uburyo bakwiteza imbere.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti aho iryo shyamba ari ryiza cyane, turisanga muri parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera aho haba harimo amoko menshi agiye atandukanye muri iryo shyamba.

Ibimera byinshi bitandukanye bigira uruhare mu kugabanya imyuka ihumanya mu kirere, ibiti, intoki na byo bigira uruhare mu bindi bikorwaremezo harimo ubwubatsi, iterambere, imitako n'ibindi bitandukanye.

Ishyamba rigizwe n'ubwoko bw'ibiti bitandukanye riba rishobora kugira umumaro mwinshi, aho hashobora kuvamo inkwi zo gucana cyangwa se ibiti bigakorwamo ibindi bikoresho bitandukanye bishobora kuba nk'imitako mu nzu cyangwa se ibindi bintu bitandukanye.

Agasozi keza kariho ibimera byinshi byiganjemo ishyamba rishobora kwifashishwa mu gutanga ibikoresho binyuranye, harimo ibyo mu nzu ndetse rikaba rishobora no kwifashishwa mu gukora ibindi bitandukanye, harimo kubona inkwi zakwifashishwa mu guteka.

Ibiribwa byinshi bitandukanye birimo ibitunguru, urusenda, inyanya, ibigori, karoti, byifashishwa mu gutegura indyo yuzuye kugira ngo uwabiriye agire imbaraga agire n'ubuzima buzira umuze, bityo bimufashe kwiteza imbere mu byo akora byose.

Akarima k'igikoni gahinzeho ibihingwa bitandukanye, harimo imboga zifashishwa mu kongera intungamubiri mu byo kurya, uwabiririye akagira ubuzima bwiza ndetse bigatuma abasha kugira imbaraga zo gukora imirimo ye ya buri munsi.

Umuhinzi uhagaze mu murima, wambaye umupira ufite amabara avanze y'umukara n'umweru ndetse akaba afite n'imbuto z'amatunda mu ntoki, iyo abikoze neza abona umusaruro uhagije, agashobora kwiteza imbere ndetse akabona amafaranga ahagije.

Ubuhinzi bw'urusenda nabwo bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye bahinga urusenda barabigize umwuga bakarwitaho uko bikwiriye hanyuma rwakwera bakabigemura ku masoko agiye atandukanye mu gihugu.

Ubusitani bwiza bwateguriwe guhingwamo ibihingwa bitandukanye, urugero urusenda aho umuhinzi ashobora kubikora akiteza imbere, agateza imbere n'umuryango we kuko aba abona amafaranga ahagije.

Ubuhinzi bw'umwuga bukorwa hagamijwe kubona umusaruro uhagije w'imboga rwatsi, aho abahinzi bategura ahantu bakayatunganya kugira ngo hakorerwe ibyo bikorwa bituma binjiza amafaranga menshi.

Ahantu heza hatunganyijwe kugira ngo habashe guhingwa ibihingwa bitandukanye harimo icyapa kiyobora kigaragaza aho ubwo buhinzi bukorerwa abahinzi bose bakaba bashobora kwiteza imbere binyuze muri ibyo bikorwa.

Umuhinzi mworozi wambaye imyambaro yabugenewe, yambaye uturindantoki dufite ibara ry'icyatsi, afite urubuto rw'inyanya mu ntoki kugira ngo arebe neza niba afite umusaruro uhagije azabasha kwiteza imbere ateza imbere umuryango we abone amafaranga ahagije.

Icyanya gitunganyijwe neza cyagenewe ubuhinzi bugezweho, harimo abakozi babiri bashinzwe gukurikirana imigendekere myiza y'ubuhinzi bukorerwamo kugira ngo umuhinzi abashe kubona umusaruro uhagije.

Ibihingwa byatunganyijwe bigahingwa ahantu heza bitanga umusaruro bigatuma umuhinzi abasha kubona ibyo kurya bitandukanye, agasagurira n'amasoko ndetse akiteza imbere agateza imbere n'Igihugu.

Imbuto nyinshi z'ubwoko butandukanye harimo imineke, inkeri, inyanya byose bishobora kwifashishwa mu kongera indyo yuzuye, abayiriye bakagira ubuzima bwiza bakabasha kwiteza imbere bagateza imbere n'Igihugu muri rusange.

Umuhinzi uhagaze mu murima we ari kuhira kugira ngo yongere ingano y'amazi iri mu butaka bityo bitume ibihingwa bihinzemo bikura bizabashe kugira umusaruro uhagije yiteze imbere ndetse ateze imbere n'umuryango we n'igihugu muri rusange.

Umusore uhagaze afite ibikoresho bibiri bikoreshwa mu kuhira kugira ngo ibihingwa bitange umusaruro uhagije haboneke ibyo kurya ndetse n'amafaranga menshi yakwifashishwa mu guteza imbere ibindi bikorwaremezo binyuranye.

Umugabo uri mu murima uhinzemo imbuto zigiye zitandukanye, akaba afite ipombo yabugenewe ari kugenda azuhira kugira ngo zitange umusaruro ufatika maze zizamuteze imbere abone amafaranga.

Ubuhinzi bwa kijyambere bushobora gukorwa hifashishijwe gahunda yo kuhira, bigatuma umuhinzi atera imbere kubera umusaruro mwinshi yagize, umuryango we ugatera imbere ukabona ibyo kurya byinshi, agasagurira amasoko igihugu kigatera imbere binyuze muri ubwo buhinzi.

Umuhinzi mworozi ukurikirana ubuhinzi bwe kugira ngo akoreshe gahunda yo kuhira, ibihingwa bye byera neza kubera ko biba byabonye amazi ahagije, bikenera kugira ngo bikure. Akaba ari gukoresha igikoresho cyitwa indobo.

Umuhinzi mworozi w'umwuga ufite igikoresho cyifashishwa mu kuhira kugira ngo ibihingwa bibone amazi ahagije bibashe gukura neza, bizatange umusaruro mwiza, kugira ngo umuhinzi nawe azabashe gutera imbere n'igihugu gitere imbere.

Umurasire w'izuba igikoresho cyifashishwa mu gufata imbaraga zituruka ku zuba, ukazibyazamo imbaraga z'amashanyarazi, zishobora kwifashishwa mu bikorwa bigiye bitandukanye, harimo ibikenera imbaraga z'amashanyarazi ndetse binarinda kwangirika kw'ikirere.

Ubuhinzi bw'umwuga, bukozwe hifashishijwe ibikorwa byo kuhira, aho imbuto zongererwa amazi zibona kugira ngo zishobore gukura, umuhinzi wambaye imyambaro y'ubururu, ahagararanye na bagenzi be, ari kuhira imyaka kugira ngo ikure neza.

Icyanya kigezweho gitunganyijwe ku buryo gishobora kubika amazi menshi, yifashishwa mu kuhira imyaka igashobora kubona amazi ahagije kugira ngo itange umusaruro ukenewe mu buhinzi, habeho iterambere ndetse n'ibyo kurya biboneke ari byinshi.

Kuhira iyo bikozwe neza bituma igihingwa kibona amazi ahagije, agifasha gukura ndetse bigatuma umuhinzi na we ubikoze agira umusaruro uhagije, akabasha kwiteza imbere, agateza imbere umuryango ndetse n'igihugu.

Imirasire y'izuba ishobora kwifashishwa mu guhinduramo imbaraga ziva ku zuba amashanyarazi bityo ayo mashanyarazi akifashishwa mu kuhira imyaka ikabona amazi ahagije ikabasha kwera neza igatanga umusaruro.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukozwe ahantu hateguwe aho harimo imashini zifashishwa mu kuhira kugira ngo ibihingwa bibone amazi ahagije bikure neza bityo bizatange umusaruro umuhinzi yifuza.

Ahantu heza hateguwe hagakorwa ku buryo amazi yegeranywa bityo bikazafasha mu kuhira imyaka igakura neza kubera ko iba yabonye amazi ahagije, ayifasha mu mibereho yabyo ya buri munsi.

Imigezi myinshi igaragara mu bishanga, igira uruhare runini mu kuhira imyaka itandukanye, urugero aho bahinga umuceri iyo hacamo amazi, biba byiza kubera ko umuceri kugira ngo were neza, bisaba ko haba hari amazi.

Ubuhinzi bugezweho bukorwa hifashishijwe gahunda yo kuhira imyaka ni bumwe mu buryo abahinzi bakoresha kugira babone umusaruro uhagije kuko ibihingwa byabo biba byabonye amazi ahagije abifasha gukura neza.

Umuhinzi wambaye imyambaro y'umutuku hejuru, uri ku nkombe z'amazi ari kugenzura koko niba amazi ashobora kwifashishwa mu kuhira imyaka kugira ngo byongere umusaruro mu gihe k'izuba cyangwa se mu gihe amazi yabaye make mu butaka.

Umuhinzi mworozi ari mu gikorwa cyo kuhira imyaka kugira ngo ayongerere amazi, ibashe kubona amazi ahagije bitume ikora neza, azabone umusaruro ushimishije, abone ibyo kurya ndetse asagure n'amasoko.

Umutegarugori w'umuhinzi ari kuhira imyaka ye kugira ngo yongere amazi mu butaka bitume ibihingwa bikura neza azabone umusaruro ushimishije yiteze imbere ndetse ateze imbere n'umuryango we n'Igihugu muri rusange.

Ubuhinzi bukozwe neza hifashishijwe ibikoresho bitandukanye byo kuhira, aho abahinzi bari kuhira imyaka kugira ngo bayongeremo amazi menshi bityo ikure neza izatanga umusaruro ushimishije.

Mu buhinzi bukozwe neza hifashishijwe ibikoresho byo kuhira butuma ibihingwa byuhiwe bigira amazi menshi bigatuma bikura neza bigatanga umusaruro umuhinzi yifuza.

Ibyanya byihariye bigari byagenewe ubuhinzi bwo mu bishanga bukorwa hifashishijwe imashini zishobora kuhira ahantu hanini, bigatanga umusaruro mwinshi bigashobora gufasha abahinzi kwiteza imbere ndetse no guteza imbere igihugu muri rusange.

Umugabo wakoze umwuga w'ubuhinzi bw'urusenda akaba afite umupira wabugenewe, akaba ari kugenda arwuhira kugira ngo urwo rusenda rutazicwa n'izuba maze rukarumba.

Umuhinzi mworozi wabigize umwuga ari mu gikorwa cyo kuhira imyaka kugira ngo yongere amazi mu butaka, bitume ibihingwa yahinze bikura ndetse bishobore gukura neza mu buryo yifuza kugira ngo azabone umusaruro ushimishije.

Umugezi w'akagera ufite ikiraro kiwambutse kiwutandukanya na Tanzania, kikaba gikikijwe n'ibyuma biteye amarangi y'umweru n'umutuku, avuga ko nta muntu wemerewe kuhanyura atabiherewe uburenganzira.

Umugabo wahinze imbuto mu gishanga none izuba ryavuye, ntabwo yigeze ashyira amaboko mu mufuka cyangwa ngo yibaze ngo: "Mama ndagira nte?", ahubwo yihutiye kujya kuhira izo mbuto ze kugira ngo izuba ritazazicanira maze zikaba zapfa.

Abahinzi batandukanye mu mirima yabo itunganyijwe bari gukurikirana ubuhinzi binyuze mu kuhira imyaka kugira ngo ibihingwa byabo bibone amazi ahagije azafasha mu gukura neza ndetse no gutanga umusaruro ushimishije.

Parike kimwe mu byiza nyaburanga, yinjiriza igihugu iterambere ndetse n'abaturage bayegereye bityo bikabafasha mu kwiteza imbere, bakagira iterambere ryabo, bigafasha n'igihugu muri rusange gutera imbere, biciye muri iyo parike.

Ibyiza nyaburanga birimo ibimera bitandukanye imisozi miremire, igaragaraho ibikorwa by'ubuhinzi bishobora kugira uruhare mu iterambere ry'umuturage uhatuye ndetse n'uhagenda bitewe n'uko yakwinjiza byinshi.

Ikiyaga kiza cyane aho mo hagati harimo uturwa tugiye dutandukanye. Utu turwa rero tukaba ari ingenzi ku buryo umuntu wese uri kuhareba abona ari ahantu heza cyane, nubwo nta muntu waturamo ariko abantu baba bari koga baza kuba baharuhukira.

Ibice bitandukanye bigizwe n'imisozi miremire ikorerwaho ubuhinzi bityo abahatuye ndetse n'abahagenda akabasha kubona ibibatunga byaturutse muri ubwo buhinzi, hariho kandi ibiti bishobora kwifashishwa mu mirimo itandukanye.

Ibyanya bigizwe n'imisozi miremire, aho bishobora gukorerwamo ubuhinzi bw'imbuto zitandukanye, zishobora kwifashishwa mu kugaburira abaturage benshi, bikabongerera ubuzima bwiza ndetse n'imibereho myiza, bakaniteza imbere biciye mu bucuruzi bwakorwa biturutse kuri ubwo buhinzi bakoze.

Ahantu mu gace k'imisozi miremire, bigaragara ko hariho inyubako zitandukanye ndetse hakaba hakorerwa n'ubuhinzi, bufasha abaturage bahatuye kubona ibyo kurya ndetse no kwiteza imbere kuko bashobora gucuruza ibyo bahinga.

Icyanya cy'ubukerarugendo, kirimo ikiyaga gishobora gutanga umusaruro mwinshi w'amafi, yifashishwa mu kongera indyo yuzuye ku muryango ndetse n'abakora uburobyi na bo bikabasha kwiteza imbere, muri rusange.

Abantu benshi batandukanye, higanjemo abambaye imipira y'ubururu, biteguye gutera igiti, gishobora kwizifashishwa mu bikorwa bigiye bitandukanye, harimo ubwubatsi, gutanga imbaraga nk'inkwi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ikiyaga kiri kugendamo ubwato, aho ubu bwato butwawe n'abasare, bakaba bari kubugendamo bari kugashya kugira ngo iyi nyanja itaza kuzana umuvumba.

Imisozi miremire itatseho ibimera by'ubwoko butandukanye, ishobora gukorerwaho ubuhinzi nk'ubw'icyayi ndetse bikaba byiza iyo aho hafi hari amazi kugira ngo arusheho gutuma ubuhinzi bugenda neza.

Umurima uhinzemo icyayi. Aho iki cyayi ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wahinze icyayi akakitaho kibasha kumuteza imbere maze akabona umusaruro agakirigita ifaranga, akaba yakemura ibibazo bye bigiye bitandukanye byo mu muryango, biterwa n'ubukene.

Ibimera byinshi birimo ibyatsi iyo bifashwe neza bigatunganywa bishobora kuvamo ifumbire ishobora gukoreshwa mu buhinzi kugira ngo umusaruro wiyongere ndetse umuhinzi atere imbere kubera ko havamo amafaranga mu bucuruzi akora.

Imisozi itandukanye, ishobora gukorerwaho ubuhinzi kugira ngo abahinzi benshi biteze imbere, ikindi kandi imisozi iba igomba kuba iriho ibiti kugira ngo bifashe mu kurwanya isuri, bityo umuhinzi abone umusaruro yifuza.

Ibyanya byiza bitunganyijwe birimo ibimera by'ubwoko butandukanye, bifasha igihugu mu iterambere, aho bituma ba mukerarugendo batembera, bakabasha kugera muri ibyo bice, bikinjiza amadovize ku gihugu.

Ahantu heza mu bice by'imisozi, aho mu kibaya hasi harimo umugezi utemba ufite amazi mabi ariko ku musozi hahinzeho ibiti ndetse n'ibindi bihingwa bishobora gufasha abaturage mu mirimo yabo ya buri munsi.

Ahantu hari agasozi keza cyane gateyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti ndetse kakaba kariho n'amaterasi y'indiganire meza cyane aho aya materasi yifashishwa mu kurwanya isuri ndetse agatanga n'umusaruro uhagije ku bahinzi bahinga muri utu dusozi.

Ubworozi bw'ingurube bukorewe ahantu hasukuye ndetse ingurube ikagaburirwa ibyoku kurya bihagije, bituma itanga umusaruro ku mworozi akagira amafaranga ndetse agatera imbere n'Igihugu kigatera imbere.

Icyumba cyiza cyane cyateguriwe gukorerwamo ubworozi bw'ingurube, zorowe kijyambere, zifite ibiryo bihagije kugira ngo zitange umusaruro umworozi yiteza imbere, ateze imbere umuryango we ndetse ateze imbere n'igihugu.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, bakazitaho uko bikwiriye hanyuma na zo zajya kubaha umusaruro bakunguka.

Ubworozi bw'inka ni ingirakamaro cyane aho muri iki gihe hari abantu babigize umwuga aho inka bagenda bakazororera ahantu hari ibintu byiza cyane by'ibyuma ku buryo zirishirizamo.

Ikiraro cyiza cyatunganyijwe kugira ngo gikorerwemo ubworozi bw'ingurube, aho ingurube ihabwa ibyo kurya, ikabihererwa ahantu hatunganyijwe, bityo igatanga umusaruro mwinshi kandi mwiza, bigatuma umworozi yiteza imbere.

Inyubako nziza ifite ibikuta bisize amabara y'umukara, yororerwamo ingurube bigaragara ko ihabwa ibyo kurya bihagije bizatuma itanga umusaruro, umworozi akabona amafaranga ndetse akabasha no kubona ibyo kurya n'iterambere bifatika.

Inka nziza yorowe ku buryo bwa kijyambere aho ubu iri guhabwa amazi n'umworozi kugira ngo abone umusaruro utubutse ndetse n'ifumbire ajyana mu mirima ye akabasha kugira imyaka myinshi ajyana ku isoko ndetse akagira n'amafaranga menshi.

Ubworozi bw'inkoko za kijyambere zitanga umusaruro mwinshi, aho zishobora gutanga inyama, ndetse zigatanga n'amagi, bigafasha abaturage benshi kubona indyo yuzuye, bagakora neza kubera ko baba bafite ubuzima buzira indwara.

Umukozi wambaye imyambaro yabugenewe iri mu ibara ry'ubururu yambaye ningofero y'umweru, ari kwita ku itungo riri mu myanya yateguwe kugira ngo birinde ko byamuteza impanuka kugira ngo bitange umusaruro ushimishije.

Umugabo ufite inka ari kugenda yitaho. Yambaye ingofero y'umutuku ari kugenda iruhande rw'izo nka aho afashe kuri imwe. Aho ari kugenda azihamagara mu mazina yazo agira ati "mwa nka mwe munkurikire".

Ubworozi bw'ingurube bukorewe ahantu hatunganyijwe, aho ingurube ibona ibyo kurya bihagije, bigatuma itanga umusaruro, umworozi akiteza imbere, akabona amafaranga ahagije yakoresha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ubworozi bw'inkoko za kijyambere bugezweho, aho inyubako bukorerwamo irimo ibikoresho bihagije byifashishwa mu kuzigaburira, bigatuma umworozi agira umusaruro uhagije, akagira inyungu nyinshi bituma yiteza imbere, agateza imbere n'igihugu.

Ahantu heza hateguriwe gukorerwa ubworozi bw'amatungo. Ihene nyinshi zirimo zifite amabara y'umweru, izindi zifite amabara y'umukara, ibi rero iyo bikozwe neza bituma umworozi abasha kugera ku iterambere rishimishije.

Ubworozi bugezweho bwa kijyambere bwo korora inka, biri muri bimwe mu bishobora gutanga umusaruro mwiza, aho iyo inka zitaweho neza, zitanga amata menshi ndetse zikaba zishobora gutanga n’inyama, bikongera imirire myiza mu bantu bose.

Ihene nyinshi zitandukanye ziganjemo izifite amabara y'umweru, zororewe mu rwuri bigaragara ko ziramutse zikurikiranywe byatanga umusaruro mwinshi ku mworozi ndetse agashobora kwiteza imbere, agateza imbere n'umuryango we n'igihugu muri rusange.

Ubworozi bw'ingurube zororerewe mu kiraro cyubakishije ibiti, iyo bukozwe neza ingurube zitanga umusaruro mwiza ku mworozi, akabasha kwinjiza amafaranga menshi, agatera imbere mu muryango ndetse agateza imbere n'igihugu muri rusange.

Ubworozi bw'inka bugenda burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu boroye inka barabigize umwuga bakazitaho uko bikwiriye, hanyuma na zo zikazabaha umusaruro maze bagatera imbere.

Ubworozi bw'amatungo magufi urugero ihene, bukorerwa mu rwuri ,butuma umworozi yiteza imbere, kubera ko aba atagorwa no gushaka ubwatsi cyane, kuko amatungo aba abasha kubona ubwatsi muri urwo rwuri.

Umukozi wambaye ibijyanye n'umwuga ukora wo kwita ku bworozi bw'inkoko, zishobora gutanga amagi ndetse n'inyama, byakwifashishwa mu kongera intungamubiri mu mafunguro, bigatuma umuryango ubaho neza, hakabaho ubuzima bwiza no gutera imbere.

Abaganga b'amatungo bari mu gikorwa cyo gutera inkingo ndetse no gutanga imiti ku nka kugira ngo zishobore gutanga umusaruro, binafashe umworozi kugira umusaruro mwiza ndetse no kwiteza imbere no guteza igihugu imbere.

Ikiraro kiza gitunganyije cyo kororeramo inka, bituma inka itanga umusaruro mwiza, haba amata ndetse n'inyama, bigatuma umworozi yiteza imbere akabasha kubona amafaranga mu rugo rwe ndetse agateza imbere n'Igihugu.

Inkoko nziza zorowe kijyambere n'umworozi abasha kubona ibikomoka ku matungo nk'amagi ndetse n'inyama bimufasha kugira amafaranga abona ndetse akabasha no kubona uko yiteza imbere mu mibereho ya buri munsi.

Ingurube iri mu cyiciro cy'inyamaswa z'inyamabere, iryamyasi kugira ngo yonsa ibibwana byayo, bishobore gukura neza, bitume umworozi yiteza imbere ndetse ateze imbere n'igihugu muri rusange biciye mu musaruro wayo.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga bakazitaho uko bikwiriye hanyuma zajya zitera amagi bakayagurisha ayandi bakayaha abana babo kugira bagire imirire myiza.

Ubworozi bw'ingurube bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho hari ingurube iryamye ahantu ikaba iri mu mabara y'umukara ndetse n'ayandi, ikaba ari nziza cyane yarariye yarahaze.

Ubworozi bw'inkwavu bugezweho, aho inkwavu ziba zishobora kugaburirwa neza, zigatanga umusaruro ushimishije, bigatuma umworozi yiteza imbere, hakaboneka ibyo kurya ku bantu benshi ndetse n'igihugu kigatera imbere, kubera imbaraga ziba zashyizwemo.

Ubworozi bw'ingurube bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu basigaye barora ingurube barabigize umwuga bakazorora ku buryo bugezweho hanyuma zikazabateza imbere.

Inka nyinshi ziri mu rwuri zigira uruhare mu gutanga umusaruro mwinshi w'amata ndetse n'inyama, bituma umworozi abasha kubona indyo yuzuye akabaho neza we n'umuryango we ndetse bagashobora no kwiteza imbere.

Ahantu heza hatunganyijwe hubakwa ibiraro bitandukanye kugira ngo umworozi ashobore gukurikirana ubworozi bwe yiteza imbere, ateza imbere n'imiryango ye, haboneke ibyo kurya byinshi ndetse n'amafaranga ahagije.

Ahantu heza hatunganyijwe hakubakwa ibiraro bishobora gukorerwamo ubworozi butandukanye kugira ngo umworozi abone amafaranga menshi ahagije, yifashisha mu buzima bwe bwa buri munsi, atere imbere, ateze imbere n'igihugu.

Inkoko nyinshi z'ubwoko butandukanye zororewe ahantu hamwe, bigaragara ko zikiri ntoya. Nizihabwa ibyo kurya bihagije, zizatanga umusaruro mwinshi, haboneka inyama ndetse zitange n'amagi, bishobore kongera indyo yuzuye mu bantu benshi batandukanye.

Umukozi wambaye itaburiya y'umweru ahagaze imbere y'amatungo ari kurya ubwatsi, amatungo akaba ari inka ishobora kwifashishwa mu iterambere aho atanga umukamo uhagije ndetse akaba ashobora no gutanga inyama.

Ubworozi bw'inkwavu bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe abantu basigaye ba burora inkwavu barabigize umushinga. Bakazitaho uko bikwiriye, hanyuma na zo zikabateza imbere, bakabona amafaranga igihe bazigurishije ku masoko agiye atandukanye mu gihugu cyacu.

Ihene nziza zorowe ku buryo bwa kijyambere aho ziri mu kiraro ndetse n'andi matungo nk'inka, bifasha umuhinzi kubona ifumbire anjyana mu mirima ye akabasha kubona umusaruro utubutse bitewe n'uko imyaka ye yakuze neza.

Umukozi wambaye imyambaro y'ubururu wambaye ku buryo bwabugenewe ushinzwe kwita ku nkoko zorowe kijyambere zitanga amagi ndetse zigatanga n'inyama, bishobora kwifashishwa mu guteza imbere Igihugu ndetse no guteza imbere umworozi muri rusange.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho hari abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga, bakabyitaho uko bikwiriye, hanyuma na zo zikazabaha umusaruro mu buryo bw'amagi cyangwa se mu buryo bw'inyama maze na bo bakiteza imbere.

Abantu benshi batandukanye bambaye amataburiya y'umweru, ingofero z'umuhondo, amapantaro y'umukara, bari mu ruganda, bagenzura ishyirwa mu bikorwa n'itunganywa ry'imbuto kugira ngo bitange umusaruro ushimishije.

uducuma tugiye dutandukanye tuba turimo imiti gakondo, aho iyo miti iba yaratunganyijwe maze bakaba bitegura kuyivuza abarwayi bagiye batandukanye barwaye indwara za kinyarwanda.

Ubuhinzi bw'amasaka bugenda bufata indi ntera mu Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bahinga amasaka bakayitaho, bakayahinga kinyamwuga hanyuma akazabateza imbere mu gihe kizaza.

Impeke z'umuceri ziri gushyirwa mu butaka butunganyije bufite ibara ry'umukara, zituruka mu kiganza cy'into zirambuye, imbuto zikaba ari nyinshi zishobora gutanga umusaruro ugatanga ibyo kurya ku bantu benshi ndetse bakabaho neza.

Abahinzi benshi batandukanye, bahuriye ahantu hamwe hari umusaruro w'ibinyampeke urugero ibigori, aho bari gutunganya umusaruro wabo kugira ngo bazashobore kubonamo amafaranga ahagije, biteze imbere.

Ahantu bahunikira imbuto zigiye hatandukanye, aho izo mbuto ari ingenzi ku buryo umuntu wese wazihinze akazitaho zibasha kumuteza imbere akabona umusaruro mwinshi ufatika.

ubuhinzi bw'ibinyampeke ni bumwe mu bikorwa cyane bigatuma ababukora batera imbere ndetse bakagira umusaruro uhagije kuko bituma babona ibyoku kurya byinshi, bakagaburira imiryango yabo ndetse bagasagurira n'amasoko.

Umuhinzi wambaye uturindantoki afite ifumbire ari gushyira mu butaka kugira ngo bimufashe kongera umusaruro uhagije azabashe kwiteza imbere ateze imbere umuryango we ndetse ateze imbere n'Igihugu.

Umworozi w'inkoko za kijyambere, hari aho bororera amatungo kugira ngo akurikirane igikorwa cyo korora, aho agaburira inkoko zikabona ibyo kurya bihagije zigakura neza.

Abantu baba barize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, baba ari abahanga cyane ku buryo iyo bagiye kuvura itungo, bamanza bakaribaga bakareba ibyo mu nda ko bimeze neza, basanga byaragize ikibazo bagategeka ko baritaba.

Inyama z'ubwoko butandukanye zirambitse ahantu hasukuye, harimo ibiganza by'abakozi bari kuzitunganya bambaye ga z'umweru zishobora kwifashishwa mu kongera indyo yuzuye bigatuma umuntu agira ubuzima bwiza ndetse akiteza imbere agateza n'Igihugu imbere muri rusange.

Abavuzi b'amatungo benshi batandukanye bahuriye ahantu hamwe, hatunganyijwe kugira ngo aborohereze gukora umurimo wabo, aho inka bayishyira ahantu ku buryo itateza impanuka izo arizo zose.

Umuganga w'amatungo wambaye itaburiya y'umweru na ga z'ubururu, imbere ye hari akabati ari gusukura ibikoresho yifashisha, mu mirimo ye ya buri munsi, kugira ngo akomeze gutanga imbaraga ze neza ntacyangirijwe.

Ububiko bukozwe neza bubitsemo ibiringiti, bushobora kwifashishwa mu buvuzi bw'amatungo ndetse n'ubworozi bw'amatungo kugira ngo bitange umusaruro, umworozi atere imbere ndetse ateze imbere n'igihugu, agire umusaruro ushimishije.

Umuvuzi w'amatungo wambaye imyenda yabugenewe itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki tw'ubururu. Afite ibikoresho bitandukanye mu cyumba arimo yifashisha asuzuma niba imiti ishobora kwifashishwa mu kuvura amatungo.

Umuganga w'amatungo wambaye uturindantoki tw'ubururu, ufite ibikoresho ari kwifashisha mu gupima inyama z'itungo rigiye kubagwa kugira ngo arebe ko ryujuje ubuziranenge ritazateza ikibazo ku bazarya inyama.

Ubworozi bw'amatungo bukorera mu kiraro, ni bumwe mu buryo bwiza bwo gushaka umusaruro uhagije kuko bitanga ifumbire ikoreshwa mu buhinzi, bityo umuhinzi na we akagira umusaruro, uzamufasha mu iterambere rye ndetse n'amatungo ntabashe gukwirakwiza indwara.

Abantu bambaye imyenda y'amabara atandukanye, harimo umweru ndetse n'umukara, bambaye ga z'umweru bari gupima itungo kugira ngo rimere neza, ribashe gutanga umusaruro ku mworozi, agire icyo ajyana ku isoko ndetse abone amafaranga atunga umuryango we ndetse n'Igihugu.

Umuvuzi w'amatungo ufite igikoresho mu ntoki yambaye ga z'ubururu akaba yambaye n'imyambaro y'ubururu kugira ngo bimurinde ibibazo ashobora kugira mu bikorwa bye bya buri munsi byo kwita ku matungo.

Ahantu habugenewe hakorerwa igikorwa cyo gukingira amatungo kugira ngo biyarinde indwara ndetse binatume atanga umusaruro mwiza, biteze imbere umworozi ndetse n'Igihugu kigire iterambere biciye muri ibyo bikorwa byose.

Abavuzi b'amatungo bari gukurikirana igikorwa cyo kwita ku itungo ry'inka baritera umuti kugira ngo rikomeze kugira ubuzima bwiza, ndetse ritange n'umusaruro mwiza kugira ngo nyiraryo azabone iterambere rishimishije.

Umuvuzi w'amatungo wambaye uturindantoki tw'umweru afashe inyama mu ntoki kugira ngo azipime arebe ubuziranenge bityo ze kugira ikibazo ziteza ku buzima bw'abantu bashobora kuzirya kubera ko inyamaswa ishobora kuba irwaye.

Ubworozi bw'inka bukomeza gutera imbere cyane mu Rwanda, aho aborozi bazo basigaye bahamagara abantu bizeye ibijyanye n'ubuvuzi bwazo bakaza kuzitaho igihe zagize ikibazo maze bakazivura nuko zikamererwa neza cyane bene zo bakishima kubera umusaruro zibaha.

Abaganga b'amatungo batandukanye bari ahantu hamwe, aho bose bambaye impuzankano z'umweru n'udupfukamunwa tw'umweru, aho bari kungurana ibitekerezo by'uburyo bakomeza kwita ku matungo kugira ngo atange umusaruro ushimishije.

Urwuri rwiza rurimo ibyatsi byinshi n'ibiti bitandukanye, bifasha inka nyinshi zororewemo zifite amahembe maremare gukura neza ndetse zigatanga umusaruro mwiza, harimo amata n'inyama.

Amacupa atandukanye yo mu bwoko bw'ibirahure, ariho ibipapuro bigaragaza ubwoko bw'imiti ibikwamo yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo kugira ngo yongererwe imbaraga ndetse atange umusaruro ushimishije ku mworozi.

Inkoko nyinshi z'ubwoko butandukanye, harimo inkoko z'umukara, umweruru zororewe ahantu hatunganyijwe kugira ngo habashe kororerwa inkoko, hagati harimo igikoresho cyifashishwa mu kuzigaburira kugira ngo zibashe kugira umusaruro uhagije umuturage yiteza imbere ateze imbere n'igihugu muri rusange.

Inyamaswa y'inkazi izwi ku izina ry'intare, bigaragara ko ishobora gufasha igihugu mu iterambere binyuze mu bikorwa by'ubukerarugendo, aho abantu benshi bashobora kuyisura bagatanga amafaranga kugira ngo bayirebe.

Icyanya cyiza gitunganye bigaragara ko kirimo inyamaswa z'ubwoko butandukanye, harimo imparage n'impara, ibi rero bishobora gufasha igihugu mu iterambere kuko byinjiza amafaranga binyuze mu bukerarugendo.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera dusangamo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa. Aho muri izo nyamaswa haba harimo impara n'imparage zikunda kwibera ahantu hari ibyatsi kandi zikabirisha zikamererwa neza.

Ibyanya binini byahariwe ubukerarugendo, biba birimo ibimera byinshi bitandukanye, hakaba harimo n'inyamaswa nk'imparage, zishobora gukurura ba mukerarugendo, bakinjiza amafaranga menshi, ashobora kwifashishwa mu iterambere ry'igihugu ndetse n'iry'abaturage bose muri rusange.

Inyamaswa nziza yo mu bwoko bw'ibinyamabere ifite amabara meza, umukara, umweru, ikaba ifite amahembe maremare, ni imwe mu nyamaswa zishobora gukurura ba mukerarugendo bigatuma igihugu gitera imbere ndetse n'abagituye bagatera imbere.

Inyamaswa igaragara neza mu mabara anyuranyuranyemo umukara, umweru, umuhondo, ishobora gukurura ba mukerarugendo benshi baturutse mu bice bitandukanye by'Isi, bikinjiriza Igihugu amadevize.

Inyamaswa iri mu bwoko bw'ibinyamabere ifite ibara ry'umweru, ifite amahembe maremare ihagaze yerekeje umutwe hasi, inyuma yayo hari ikirere gikeye ahantu ihagaze nta bwatsi buhari ariko inyuma yayo hari ubwatsi.

Inyamaswa nyinshi zitandukanye zirimo ibiguruka, ziri mu bigize urusobe rw'ibinyabuzima, bituma ubuzima bukomeza kubaho ku isi kuko uko inyamaswa zibaho niko bituma n'izindi zishobora kubaho, byaba ifunguro cyangwa mu bundi buryo.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera dusangamo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa. Aho harimo zimwe mu nyamaswa z'inkazi zizwi nk'ingwe. Zikaba ari ingome cyane ku buryo umuntu wese uyikinishije ihita ifata ku gakanu, ikaba yamwirenza.

Inyamaswa nyinshi zinyuranye, zigize urusobe rw'ibinyabuzima ni zimwe mu zishobora guteza imbere ubukerarugendo. Urugero twavuga ni nk'inzovu aho zishobora gufasha ba mukerarugendo mu kuzireba ndetse no kuzifotorezaho.

Muri pariki y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera dusangamo amoko agiye atandukanye y'inyamaswa aho haba hari inyamaswa zizwi nk'imisega ziba zizi kwiruka cyane kandi zikaba zizi kugenda nk'imbwa.

Inyamaswa nziza cyane iri mu bwoko bw'ibiguruka, ifite amabara atandukanye, ifite umunwa w'umuhondo, umutwe ufite amababa y'umweru, igice gisigaye cyo hasi kigizwe n'ibara ry'umukara.

Inyamaswa nyinshi zitandukanye zifite amabara y'umweru n'umukara, ziryamye hasi, zishobora kuvamo ibyo kurya, bishobora gutunga umuryango kugira ngo abawugize bagire imirire myiza.

Inyamaswa nziza cyane y'inyamabere izwi ku izina ry'ikirura. Ihagaze mu busitani burimo ibyatsi byiza bishobora gufasha ba mukerarugendo kuyireba bakishyura amafaranga afasha guteza imbere igihugu.

Ibyanya byiza nyaburanga urugero nka parike, haba harimo ibice bigiye bitandukanye bishobora gusurwa, aho ushobora gusanga inyamaswa, ukabona ibiti, inyamaswa nk'inzovu ni zimwe mu zikurura ba mukerarugendo, bakinjiriza amafaranga Igihugu.

Muri pariki y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera, haba harimo amoko menshi atandukanye y'inyamaswa, aho izo inyamaswa aba ari nziza cyane kandi ari ingirakamaro, ku buryo umuntu wese ubashije kugera muri iyo pariki, anyurwa n'izo nyamaswa zirimo.

Ibyanya byihariye birimo parike bigaragaramo inyamaswa zigiye zitandukanye nk'agasumbashyamba aho bishobora gukurura ba mukerarugendo bigatuma Igihugu gitera imbere kubera ko yinjiza amadevize atandukanye.

Ibyanya byihariye byagenewe ubukerarugendo, aho hagaragaramo inyamaswa z'ubwoko butandukanye ndetse na ba mukerarugendo babisuye, bikinjiza amadovize ndetse bikanateza imbere Igihugu mu buryo bugiye butandukanye.

Intare zimwe mu nyamaswa zigize urusobe rw'ibinyabuzima, ziri kumwe n'abana bazo, ziri kunywa amazi kugira ngo zikomeze kugira ubuzima bwiza ndetse zinagira uruhare mu bikorwa by'ubukerarugendo, byinjiza amafaranga mu gihugu.

Ibyanya byihariye birimo inyamaswa zitandukanye zishobora kongera ubukerarugendo ku gihugu, bigatuma iterambere ry'igihugu ryiyongera ndetse n'abaturage ubwabo bakagira umunezero uturuka mu gusura ibi byanya bitandukanye.